Icymba kiberamo inama zijyanye n'ubuvuzi aho abaganga, abaforomo na bayobozi babo bahurira baganira kubyaranze ubuvuzi bwabo, kigizwe n'intebe z'umukara, ameza akozwe mu mbaho ndetse n'ameza ari imbere y'umweru.